Umugabo bigaragara ko ari umuhinzi, uyu mugabo akaba ahetse ipompo mu mugongo. Bisa nkaho ari mu murima yahinzemo ibintu bigiye bitandukanye, akaba aje kubitera umuti kugira ngo yice udukoko dushobora kuba twabyangiza.

Ni ahantu ubu bigaragara ko ari mu murima. Umuhinzi akaba yarahinzemo ibigori. Hakaba hari umugabo wambaye imyenda yabugenewe, aho ahetse ipombo arimo atera umuti ibyo bigori kugira ngo yice udukoko tubyangiza. Inyuma ye hari ikigega cy'umukara kihateretse ndetse haragaragara n'ibiti.

Ni umugabo uri ahantu hameze nkaho ari mu gishanga, uyu mugabo akaba yambaye ingofero ndetse n'indi myenda isanzwe, ahetse ipombo mu mugongo aho arimo agenda atera umuti ibi bihingwa bihinze hano ahantu hasa nkaho ari mu gishanga.

Ni umuntu wambaye imyenda yabugenewe aho afite ipompo arimo agenda atera umuti bino bihingwa bye yahinze, biragaragara ko ari ibihingwa yahinze ku murongo akaba arimo abitera imiti kugira ngo arebe ko yazasarura umusaruro ufatika.

Ni ibiganza by'umuntu w'umuganga aho afashe agatasi karimo ikirabyo runaka cyangwa se igihingwa runaka, afite akandi gacupa karimo umuti wenda gusa icyatsi arimo aragerageza gusuka kuri ako gahingwa kugira ngo karusheho kumererwa neza, yambaye uturindantoki tw'umweru ndetse yambaye n'itaburiya y'umweru.

Umugabo ubona ko ahetse ipopo mu mugongo, aho ari mu murima we yahinzemo ibihingwa bye, akaba arimo aragerageza gutera umuti ibyo bihingwa bye kugira ngo yice udukoko tumwe na tumwe dushobora kwangiza ibihingwa bye.

Umugabo bigaragara ko ari mu murima we munini cyane yahinzemo ibiribwa bigiye bitandukanye, akaba ahetse ipompo aho arimo aragenda atera imiti kuri ibyo bihingwa. Ibi bihingwa rero ari kubitera imiti kugira ngo ibashe kuba yakwica udukoko dushobora kubyangiza .Hagaragara ibiti biri hakurya.

Ni ahantu hitaruye ubona ko hahinze ibihingwa ukaba ari umurima munini cyane, harimo umugabo wambaye imyenda yabugenewe ndetse n'agapfukamazuru, aho ahetse ipombo arimo aratera umuti ibyo bihingwa kugira ngo yice udukoko twangiza ibyo bihingwa.

Ni umugabo n'umugore bigaragara ko aba bantu bari ahantu mu gishanga, bakaba bashyize indubani mu mazi aho barimo baragira ngo barobe amafi, urabona ko uyu mugore n'uyu mugabo ari ibintu basanzwe bakora bya buri munsi.

Abantu benshi bari ahantu ku ruzi, bakaba bafite supanete cyangwa se indobani bifashisha baroba amafi, umuntu umwe ahagaze mu cyuzi, aho bose bafashe iyo ndobani bakaba barimo barayishyira mu mazi kugira ngo babashe kuroba, iruhande rw'uruzi hakaba hari ibiti bihari.

Abasore bari ahantu hasa nkaho ari ku ruzi bakaba bafite urushundura bifashisha baroba amafi, buri muhungu akaba afite ifi mu ntoki ze bisa nkaho agiye kuyishyira aho ngaho muri urwo rushundura, inyuma yabo haragaragara amazi ayo mazi akaba asikijwe n'ibintu bimeze nkaho ari senyenge, bisa nkaho ari ahantu bororera amafi, haragaragara imisozi iteyeho ibiti.

Ni ahantu ubona ko bisa nk'aho hubatswe n'abantu. Bakaba barafashe ibishitingi ,barangiza bagasukamo amazi ,bisa nk'aho bororeramo amafi. Haragaragara umusozi uhari ndetse hari ibintu bihateretse bimeze nk'aho ari ibikapu.

Ni umugabo bigaragara ko ari ahantu hameze nk'aho ari mu ruzi, akaba yacakiye ifi mu kaboko ke k'indyo, mu bigaragara ni uko hari agakoresho kabugenewe, arimo agenda ashyiramo zinofi yambaye ikintu kimeze nk'igisarubeti ndetse n'umugabo ubona ko akuze.

Aha ni ahantu ubona abantu bubakiye bakoresheje amashitingi, barangiza bakayoboramo amazi menshi. Aha ngaha bakaba bahorera amafi ndetse hakaba hari ibigega bihari bibiri ndetse haragaragara n'insina ku ruhande.

Ni umugore w'umuhinzi akaba ari mu murima munini yahinzemo icyayi, akaba ari kugerageza gusarura, yashyize agatete iruhande rwe arimo arasoroma ashyira muri ako gatete kugira ngo abyegeranye aze kureba umusaruro uvuyemo.

Ni abagore babiri ubona ko bari mu murima wabo, aho barimo barasarura kugira ngo barebe umusaruro bafite, buri muntu wese yambaye akantu inyuma kameze nk'agatete, arimo aragenda asoroma, ashyira inyuma yabo, hari ibiti bihateye.

Ahantu bigaragara ko ari mu murima hakaba hahinzemo igihingwa kizwi nk'ikawa, hagaragara igiti k'ikawa kiriho ikawa ariko iyi kawa ikaba ikiri ibitumbwe itarahisha.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ingofero y'umweru, akaba ari ahantu hameze nko mu cyayi, arimo aragerageza gusoromaho kugira ngo arebe umusaruro ashobora kuzakuramo.

Ni umumama ubona ko ari mu murima we, aho bigaragara ko yahinze ibihingwa byinshi, afite agatete yagateretse inyuma ye, arimo aragenda asarura agashyiramo kugira ngo nyuma nasoza aze kwegeranya umusaruro we.

Ni abahinzi benshi ubona ko barimo baragerageza kujonjora ikawa zabo bazipakira mu bintu bimeze nk'amabase, bari ahantu ubona ko hitaruye hameze nk'aho ari ari mu misozi, haragaragara n'ibiti bihateye.

Ahantu ubona ko hari agakoresho kabugenewe abahinzi basukaho ikawa zabo barimo bazijonjora, harimo abantu bunamye muri izo kawa aho barimo bagenda bajonjora bashyira mu dufuka bafite, ku ruhande hari n'ahandi hanitse ikawa nyinshi.

Abagore babiri bari mu murima munini uhinzemo icyayi. Buri mugore akaba ahetse igitete, aho barimo bagenda basarura bashyira muri ako gatete. Bari kugenda basarura barunda mu gatete kugira ngo baze guhuriza hamwe, barebe umusaruro bakuyemo.

Ni umumama bigaragara ko ari umuhinzi, akaba ari mu murima we yahinzemo ikawa, ari gusoroma ikawa igiye ihishamo ndetse uyu mubyeyi yambaye ishati y'igitenge n'ishapule ndetse n'agapfukamunwa.

Ni umugabo ndetse n'umugore, bakaba bari mu murima bahinzemo ibihingwa byabo aho bari kugenda basoroma utuntu tw'utubabi, aho buri wese ahetse agatete agenda asoromeramo iki gihingwa cye, nyuma bakaza kubihuza ngo barebe umusaruro uvuyemo. Inyuma hari imisozi ndetse n'ibiti bihateye.

Ni ahantu hateretse ubucupa bwinshi bw'amoko menshi arimo imiti y'amatungo. Hakaba hariho ubucupa bumwe na bumwe bushushanyijeho inka ndetse n'ingurube, ubundi bukaba bushushanyijeho ihene, inkoko ndetse n'ibindi. Bikaba bivuze ko iyi ngiyo ari imiti ihabwa amatungo.

Etajeri irimo utubogisi tugiye turimo imiti igiye itandukanye. Haragaragaramo imwe mu miti izwi nka ngombe, iyi ngiyi akaba ari imiti y'amatungo bifashisha bavura amatungo, kugira ngo abashe kumererwa neza.

Ni ahantu hari udukarito twinshi turimo imiti y'amatungo igiye itandukanye. Harimo nka za ngombe batera inka ndetse hakaba hariho n'agakarito kariho igishushanyo cy'imbwa ndetse n'inkoko n'inka, bigaragara ko iyi miti iterwa amatungo.

Ubucupa burimo imiti y'amatungo atandukanye, bukaba busa umweru ndetse bukaba bufite imifuniko y'icyatsi. Kamwe mu gacupa hakaba hariho icyapa gishushanyijeho inkoko, ihene, inka, ingurube. Hakaba harimo imiti ivura ayo matungo yose.

Ni ahantu hameze nko muri etajeri hakaba hapanzemo uducupa tw'umutuku turimo imiti y'amatungo igiye itandukanye, utwo ducupa tukaba dupfundikishije imifuniko y'umweru ndetse hakaba hariho icyapa kuri utwo ducupa turiho amoko y'inyamaswa harimo inka ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ni abagore babiri ubona ko bavuye guhinga, bari guca ahantu mu mikenke, aba bagore bakaba ari abahinzi, umugore umwe afite isuka ku rutugu undi mugore mu maboko ye yombi afitemo ibiti ndetse hari n'ikindi yikoreye ku mutwe.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse na bote akaba ari gukama, aho ari gukamira mu cyansi gikoze mu cyuma, uyu mugabo akaba ari umworozi, aho bigaragara ko afite inka nziza cyane kandi ishobora kuba itanga umukamo.

Ni abahinzi batandukanye aba bahinzi bakaba bicaye mu murima, hari umuntu uri imbere yabo bisa nkaho hari inama runaka ari kubakoresha aho ari kubagira inama uburyo bafumbira imirima yabo bakongera umusaruro.

Abahinzi babiri umugore ndetse n'umugabo, bakaba bari mu muririma wabo bahinzemo amashu, umugabo afite umuhoro asa nk'aho aciye ishu rimwe, naho umugore arimo aragenda, bisa nk'aho hari akantu agiye kuzana, ahantu bari hakaba hari ibihingwa byinshi ndetse hateye n'ibiti.

Ahantu hameze nko mu ifamu, hakaba harimo inka ubona zorowe n'umworozi, izo nka zikaba zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, zambaye kandi amaherena ku matwi, ziri ahantu hari utwatsi twiza, ubona ko zishobora kurisha zigahaga.

Umugabo n'umugore bari mu murima munini bisa nkaho bahinzemo ibigori. Ibi bihingwa biracyari bitoya ndetse inyuma haragaragara uruzitiro bazitirishije uyu murima, kugira ngo hirindwe ibyaza kwangiza ibi bihingwa byabo.

Ni ahantu ubona hororerwa inka nyinshi, izo nka zikaba ziri mu mabara atandukanye ndetse izi nka ziri ahantu mu kiraro aho umworozi yazishyiriye ibyatsi byo kurya imbere yazo, izi nka zose zikaba zirimo zirarya ibyatsi.

Ni ahantu hameze nk'aho ari mu ifamu hakaba hagaragara abahinzi bavuye gusarura imisaruro yabo, imbere yabo hakaba hari umuntu uri gucunga igare uhetse igifuka cy'umusaruro w'abo bahinzi, inyuma yabo hakaba hari ibiti ndetse hari n'inka ziragiwe muri iyo famu.

Ahantu ubona ko hororerwa inka nyinshi zigiye zitandukanye bisa nk'aho ari mu ifamu, harimo inka zifite amabara agiye atandukanye, biragaragara ko aha ngaha ari ahantu umworozi yageneye kujya yororeramo inka ze.

Abantu babiri b'abahinzi umugore ndetse n'umugabo bakaba bari mu murima wabo aho bahinze ibigori bikiri bitoya, inyuma hakaba hagaragara ikintu kimeze nk'aho hari ari uruzitiro bishoboka ko bashobora kuba barazitiye uwo murima wabo.

Ni ahantu ubona ko hatunganyirizwa umushinga w'ibiti aho hubakiye ndetse hakaba hari ibiti bigiye biri mu bihoho bigiye bitandukanye, hari abantu baje gusura aho hantu hakaba harimo umupolisi ndetse n'umudaso, inyuma yabo hakaba hari urugo ruhakikije.

Abantu b'abahinzi ubona bari kuzamuka ahantu hameze nko mu misozi, hari abafite amasuka ku ntugu zabo hari n'undi wikoreye inkwi, hagaragara umuntu wambaye imyenda yenda kumera nk'iya gisirikare, hari ibiti byinshi ndetse haragaragara n'inka ziragiwe mu ifamu isa nk'aho ihari.

Umugore w'umworozi, akaba yambaye ishati ikoze mu gitenge ndetse yikenyeye n'igitenge. Ari kuzirika ihene ahantu hari ibyatsi byiza kugira ngo iyi hene na yo ibashe kurisha. Uyu mugore urabona ko yishimye cyane ari guseka, yishimira ko itungo rye ririmo rirakura.

Ni ahantu bigaragara ko aba bantu bahari baje bazinduwe no gutera ibiti, hari umumama wambaye umupira w'icyatsi ufite igiti mu ntoki ze akaba yambaye n'isaha ku kaboko bisa nk'aho agiye gutera, inyuma ye hakaba hari umuntu bisa nk'aho ari umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda ndetse hagaragara n'insina zihateye.

Ni ahantu bigaragara ko hororerwa inka ndetse hakaba hubatse ikiraro. Inka zikaba ziri imbere y'ikiraro mu mbuga ihari, aho barimo barinikiza. Hakaba hagaragara abagabo babiri b'aborozi bambaye amataburiya yabugenewe ndetse inyuma yabo hakaba hari ibiti ndetse n'urugo ruhagaragara.

Umurima uhinzemo ibihingwa ubona ko bigeze mu gihe cyiza cyo kwitabwaho ukaba uhinze hagati y'ibiti uyu murima ukaba ari uw'umuhinzi runaka aho yahinze ibihingwa bye ku murongo ndetse iruhande y'ibyo bihingwa hakaba hateye ibiti bitanga umuyaga ndetse bigakurura n'imvura.

Aha ngaha ni mu ishyamba aho ari mu buturo bw'inyamaswa z'agasozi, hakaba hagaragaramo ibiti ndetse n'ibyatsi by'imikenke harimo inyamaswa y'imparage ikaba yibereyemo neza aho ubona ifite umutuzo.

Umurima munini uhinzemo ibigori ndetse iruhande rw'ibyo bigori hakaba hagiye hari ibyatsi bihari. Biragaragara ko ibi bigori bigeze mu gihe kiza cyo kwitabwaho kuko habura iminsi mikeya ngo ibi bigori bisarurwe.

Igishanga ubona ko ari kinini cyane hakaba hateyemo umuceri ubona ko wegereje igihe cyo kwenda gusarurwa, hagiye hamanitsemo utuntu twinshi abahinzi bifashisha mu rwego rwo kwirukana inyoni, haragaragara kandi n'utuzuru hakurya y'icyo gishanga.

Igiti ubona ko gitoshye ndetse kikaba gifite amababi y'icyatsi, kikaba ari igiti cy'indimu aho ubona ko hariho imbuto z'indimu ebyiri, biragaragara ko kino giti kirimo kiragenda kera kuko hariho imbuto ebyiri z'indimu.

Ahantu ubona ko hahinze insina, hakaba hagaragara n'ibindi bintu bisa nk'aho bihinzemo bimeze nk'ibigori, hari insina ebyiri, ubona ko insina yabyaye n'umwana wayo.

Ni ahantutu ubona hari ubutaka bwiza cyane hakaba hahinze ibigori byinshi biragaragara ko ibi bigori bishishe neza kuko bishobora kuba byarabonye imvura, ni ibigori biri gutanga ikizere cy'uko bishobora kuzabyara umusaruro ufatika.

Ni ahantu mu butaka ubona bwiza cyane, hakaba harimo ibyatsi bishashemo ndetse haranagaragara igihingwa cy'umumbati giteyemo, inyuma yacyo hakaba hari inyubako zihagaragara ndetse n'insina, haragaragara kandi umurima urimo ibigunda.

Ahantu mu murima hakaba hari ibintu byinshi by'ibigorigori biharunze ndetse haragaragara igiti cy'umumbati kihateye ubona ko gitoshye, hari insina nyinshi ziri imbere yabyo.

Indobo eshatu z'umukara zikaba zirimo ibirayi byiza ubona ko byeze neza, aha ngaha hakaba ari mu murima aho umuhinzi arimo arasarura ibirayi bye, hakaba hagaragara amapine bisa naho ari ay'imodoka cyangwa se ikindi kintu cy'ikinyabiziga nka moto.

umurima ubona ko hari ikigori, gihagaze cyumiye kugiti, bikaba bigaragara ko hari ibindi bimera, inyuma yacyo hakaba hari inyubako zihagaragara ndetse n'ibiti.

Ahantu ubona ko ari mu murima hakaba hahinze ibihingwa bitandukanye, harimo imyumbati ndetse n'ibijumba, bikaba bigaragara ko imyumbati ikiri mitoya ndetse imigozi y'ibijumba yo umuntu ashobora kuba yayikura.

Ahantu hahinze urutoki rwinshi, inyuma y'urwo rutoki hakaba hari ishyamba rinini cyane, ubona ari iby'inzitane, hakaba harimo ibiti by'inganzamarumbo ndetse inyuma y'iryo shyamba, hagaragara imisozi.

Ni abantu benshi bicaye ahantu munsi y'ibiti bigaragara ko hari ibiti byinshi cyane bihateye, biragaragara ko hari inama barimo kuko harimo abasirikare ndetse n'abapolisi n'abadasso, imbere yabo hari undi muntu usa nkaho arimo aragira ikintu ababwira.

Abantu barimo barakora umuganda, hakaba harimo umupolisi ndetse n'umudaso n'undi mugore umwe. Bose bafite kupakupa, bari ahantu ubona hateye ibiti byinshi, aho barimo baragerageza gutema ibyatsi bihari, bakoresheje kupakupa.

Ahantu ubona ko hirengeye ndetse hanitaruye hakaba hari ishyamba ariko bigaragara ko iri shyamba ririmo riratemwa, hari ibiti bitemabuye biri ahantu birunze hasi ndetse biragaragara ko ibi biti bagiye kubyotsamo amakara cyangwa se hari ikindi gikorwa runaka bari gukora.

Ni ahantu hagaragara ishyamba, hakaba harimo abakerarugendo batatu, babiri b'imbere ni abazungu, umugore n'umugabo ndetse haragaragara n'undi ubari inyuma, bose bakaba bahetse ibikapu, aho bisa nk'aho bari mu bukerarugendo, barimo baratembera aka gace.

Aha ni mu ishyamba, harimo ishyamba ririmo ibiti byinshi bigiye bitandukanye, urabona ko iri shyamba ari inzitane, hagati y'iri shyamba harimo akantu gasa nkaho ari akayira ariko gatoya cyane bivuze ko hano umuntu ashobora kuhatemberera ariko mu bigaragara ni uko rino shyamba rishobora kuba riteye ubwoba.

Ni ahantu hari ishyamba ririmo ibiti birebire, iri shyamba biragaragara ko ari inzitane kuko bitoroshye ko wajyamo ngo ubashe kuba warisohokamo uri amahoro, birashoboka ko haba hatuyemo inyamaswa nyinshi zitandukanye.

Ni ishyamba ubona ko riteye ku murongo ariko rikaba atari ishyamba ry'inzitane, iruhande rw'iryo shyamba hakaba hateye utundi duti dutoya, bigaragara ko umuntu ari hakurya muri iryo shyamba ushobora kuba wanyuzamo amaso ukamubona.

Ni ahantu ubona ko ari agace kagenewe guterwamo indabyo abantu bakaba barakubakiye mu rwego rwo kugira ngo basigasire zino ndabyo, hakaba hari amavase menshi agiye ateyemo indabyo z'ubwoko bugiye butandukanye, ubona ko hasakarishijwe ibyuma ndetse hari n'inzu iri ku ruhande rwazo, bigaragara ko ari ahantu heza cyane.

Abagore batanu ubona bishimye cyane, bose bateruye inanasi mu ntoki zabo barimo barayerekana, biragaragara ko bishimiye umusaruro bagize. Urabona ko bose bari guseka.

Mu buhinzi bugiye butandukanye bukorwa n'Abanyarwanda ugiye usanga bahinga imbuto nyinshi zigiye zitandukanye, aha ngaha hakaba hari ibiti bibiri by'amapapayi biriho amapapayi atari yashya akiri mabisi, inyuma yaho hakaba hagaragara inzu nziza cyane ihari.

Ni umurima urimo ubutaka bwiza cyane, hakaba hateyemo imbuto nziza cyane z'ibishyimbo, mu bigaragara ni uko bino bishyimbo biteye mu buryo bwa kijyambere kuko bagiye babitera ku murongo.

Abantu batatu bari mu murima uhinzemo amashu menshi cyane, hakaba harimo umugabo uri hagati y'abagore babiri buri muntu wese ateruye ishu ubona ko yeze neza, inyuma y'uwo murima hakaba hari ibiti bihagaragara bigiye bitandukanye.

Ni ahantu bigaragara ko ari mu rugo rwiza ndetse urwo rugo rukaba rukorotirijwe igipangu, imbere y'igipangu hagaragara akarima k'igikoni kubabatse neza ariko aka karima bikaba nta mboga zari zaterwamo.

Umumama bigaragara ko ari umuhinzi wabigize umwuga akaba ahagaze hagati mu mashu yahinze mu murima mugari, aho inyuma ye hariyo umwirasire yashyizemo kugira ngo abashe gufata imbaraga z'izuba, afite umugozi urimo uravamo amazi aho ari kugenda yuhira ano mashu ye kugira ngo abashe kuba yakera, inyuma ye hari ishyamba ryinshi rihagaragara.

Umugabo uhagaze iruhande rw'umwirasire munini, wubakiye ahantu ndetse ako kantu uriho kakaba kariho amapine, uyu mwirasire ukaba ukurura imbaraga z'izuba, inyuma y'uwo mugabo hakaba hari uruzi runini ndetse haragaragara n'ibiti by'ishyamba bihari, bigaragara ko uyu mwirasire bashobora kuba bawifashisha mu gihe barimo baruhira imyaka.

Ni umugabo w'umuhinzi wambaye ingofero ndetse na bote, akaba afite umupira urimo uravamo amazi aho ari kugenda yuhira ibihingwa bye yahinze mu murima mwiza cyane, iruhande rwe hakaba hari ibintu bimeze nk'aho ari uruzitiro rwubatse nk'aho ari imiyenzi ndetse hari n'ibiti bihagaragara.

Umugabo uri mu murima yahinzemo ibihingwa bitandukanye, akaba afite rozwari aho ari kugenda yuhira ibyo bihingwa kugira ngo bibashe kumererwa neza. Iruhande rwe hari urukuta rwubakishije amatafari ya boloke sima.

Igikoresho gikoresha ikoranabuhanga, kikaba gishinzwe kuhira imyaka, mu gihe izuba ryabuze hano hakaba hari agakoresho, gafite amapine kagenda kuhira imyaka, kugira ngo imyaka ibashe kumererwa neza.

Umumama wikenyeye igitenge akaba ari ahantu mu murima yahinze ibihingwa bye bikiri bitoya cyane akaba afite umupira urimo uravamo amazi uyu mumama akaba arimo aruhira, iruhande rw'uwo murima hakaba hari ibiti byinshi bisa nk'aho ari ishyamba rihateye.

Ni ahantu mu murima hakaba hagaragara ibihingwa bihateye ubona ko bitoshye, hateretse akamashini kandi kakaba karimo karagerageza kuhira ibyo bihingwa kugira ngo bibashe kurushaho kumererwa neza.

Ni ahantu bigaragara ko ari mu misozi, hakaba hari uruzi ruhagaragara runini cyane ndetse impande y'urwo ruzi hakaba hateye ibiti ndetse hari n'utuzu twubatse muri ibyo biti, hari kandi n'ipoto iriho insinga z'amashanyarazi.

Ni ahantu mu kibaya, ubona ko hagaragara imisozi, ndetse hari n'uruzi runini cyane. Haragaragara ibiti byinshi bihateye, ndetse hari n'inzu nkeya zigiye zihari. Hari ipironi ririho insinga, zijyana umuriro w'amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye.

Ni inzu ubona ko yubatswe mu buryo bugezweho ndetse iyo nzu ikaba yarahariwe kororerwamo amatungo y'inka. Hari umuntu wambaye agataburiya cyangwa se agashati k'umweru, uhagaze imbere y'izo nka, aho yazishyize ibyatsi imbere zirimo zirarisha.

Ni ahantutu ubona ko hororerwa ingurube hakaba hubakiye neza cyane, harimo ingurube ya kizungu bigaragara ko hasi baba bayisasiye kugira ngo itaba yagira ikibazo runaka.

Ni ahantu hameze nko mu ifamu aho harimo inka nyinshi bigaragara ko hari umuntu waje kuziragira, hari ikiganza kiri gutunga imbere, bisa nkaho ho abaje kuziragira hari ikintu runaka bari kuganira, izo nka ziri ahantu mu ifamu hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Ubu ni ubworozi bwa kijyambere, aho hubatswe inzu igezweho ishyirwamo inkoko nyinshi, aho inkoko zitera amagi akamanuka munsi, kugira ngo ba nyirazo baze kuyabona, harimo umugabo wambaye imyenda y'impuzankano ndetse na bote, arimo agenda atoragura amagi.

Ubworozi bw'ingurube kugira ngo worore neza ingurube bisaba ko wateguye ahantu heza ho kuzororera, aha ngaha hakaba hari ingurube eshatu ziri ahantu zororerwa ubona ko umuntu uzorora azitayeho, aba yazishakiye ibyo kurya ari buzigaburire.

Ni ahantu hakorerwa ubworozi bw'inkoko zitandukanye, inkokokazi ndetse n'isake, izi nkoko zikaba ari iza kizungu. Hari utuntu tw'udukoresho dushyirwamo ibiryo ndetse n'imiti y'izi nkoko kugira ngo inkoko ibashe kumererwa neza.

Ni ahantu bigaragara ko harimo harakorerwa ubworozi bw'ihene nyinshi zitandukanye, inyagazi ndetse n'isekurume. Ziri ahantu hari utwatsi twinshi ndetse hari abantu bazishagariye bigaragara ko barimo barareba uburyo zino hene ari nziza.

Ahantu ubona ko hateguwe neza hakaba hakorerwamo ubworozi, harimo ingurube iryamyemo yambaye amaherena ku gutwi, ndetse hakaba hasasiye neza cyane, kugira ngo birinde iyi ngurube kuba yagira ikibazo.

Aha ni mu kiraro cy'inka ukaba ubona ko iki kiraro cyubatswe mu buryo bwa kijyambere kandi bugezweho, hari aho inka zirira ndetse iki kiraro kikaba ari cyo cyororerwamo inka nk'uko ziri kugaragara hano, inyuma hari ahantu hari inzu ihubatse ndetse haragaragara n'imisozi.

Ahantu hakorerwa ubworozi bw'inkoko zigiye zitandukanye, inkokokazi ndetse n'isake. Hakaba hagaragara utuntu turimo ibiryo ndetse n'imiti baha izi nkoko. Haragaragara kandi amadirishya apfundikirishije utuntu tumeze nka supanete.

Ubworozi bw'inkoko harimo inkoko zigiye zitandukanye, Amasake, inkokokazi. Ahangaha hakaba ari inzu yagenewe kororerwamo inkoko, aho harimo ibiryo izi nkoko zifashisha zirya ndetse n'utuntu turimo imiti.

Ahantu hagaragara inkoko nyinshi zitandukanye, iz'umukara, iz'umweru, ndetse n'iz'umutuku hakaba harimo inkokokazi ndetse n'isake, bigaragara ko ari ahantu hororerwa izi nkoko. Hari uducupa tugiye tuhateretse turimo ibiryo ndetse n'imiti baha izo nkoko, kugira ngo zibashe kugumya kumererwa neza.

Ni akaboko k'umuntu utari kugaragara neza mu isura, akaba yakubye umupira yambaye ndetse akaba yambaye uturindantoki. Afite imbuto mu biganza bye, arimo aragenda azitera mu butaka ubona buhinze neza cyane.

Ni inzu bigaragara ko ari ngari, ikaba ari sitoke y'imbuto abahinzi bifashisha bahinga. Hateretsemo udufuka twinshi cyane turi mu mabara y'icyatsi, utu dufuka tukaba turimo imbuto abahinzi bifashisha mu gihe cy'ihinga. Iyi nyubako ikaba igaragara mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu,..

Ni ibiganza by'abantu babiri bifashe imbuto zigiye zitandukanye, hari ikiganza gifashe ibishyimbo by'umweru ndetse n'iby'umuhondo, hakaba hari n'ikindi gifashe ibindi bishyimbo by'ubundi bwoko, ibi byose bikaba bikoreshwa nk'imbuto abahinzi iyo barimo barahinga.

Ni abantu benshi ubona bari ahantu hanitse ibigori ndetse bikaba bigaragara ko hari umuntu wari urimo aragerageza kuvumbura ibigori, hari umugabo uhagaze ndetse inyuma ye hakaba hari n'abandi bana bamukikije, barimo barareba imbuto y'ibigori.

Ni ahantu hasutamye umuntu wambaye itaburiya y'ubururu ndetse na bote z'umweru, imbere ye hakaba hateretse akabogisi k'ubururu ndetse n'umweru mu kaboko ke akaba afitemo agacupa k'umuti, uyu muntu ni veterineri cyangwa se umuganga w'amatungo aho yaje kugira itungo avura.

Ahantu mu cyumba hakaba harimo abaveterineri babiri bambaye impuzankano zabo, aho hari itungo baryamishije ahabugenewe barimo bararivura. Barishyizeho ibipimo kugira ngo bamenye umuti runaka bari burihe.

Ahantu ubona ko ari mu kiraro k'inka hakaba harimo inka ifite ikibazo, ndetse ikaba iri kumwe na veterineri wayo, aho yashyize akaboko mu nda y'amaganga y'iyi nka kugira ngo abashe kuyifasha ikibazo yaba ifite cyose agikemure.

Ibiganza by'abavuzi b'amatungo bagiye batandukanye. Bikaba birimo birakora mu nyama z'itungo runaka kugira ngo bamenye neza ko izi nyama nta kibazo zifite ko zidashobora kuba zakangiza abantu bari buzigure.

Ni umugabo w'umuganga akaba yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki mu ntoki ze afitemo bumwe mu bwoko bw'imiti imbere ye ku meza hakaba hateretse utuntu tw'uducupa bashyiramo amaraso y'abarwayi bafashe kugira ngo babapime ibizamini.

Ni ahantu bigaragara ko hakorerwa ubworozi bw'inka bw'inyambo, hakaba ari ahantu hasa nk'aho ari mu ifamu, hari inka zihagaragara ndetse haragaragara n'abandi bantu bambaye imyenda yabugenewe bisa nk'aho ari abavuzi b'amatungo bazwi nka ba veterineri.

Ishyo ryinshi ry'inyambo. Ubona ko riri ahantu abantu bashinzwe kuzitaho bazihurije. Haragaragara abantu bari iruhande rwabo ndetse n'igiti kiri inyuma kugira ngo umuvuzi wazo naramuka aje, abashe kumenya izifite ikibazo aziteho.

Ahantu hari inzu yubakishije amatafari ahiye iruhande rw'iyo nzu hakaba hari abantu bane bahahagaze. Umuntu umwe afashe imbwa aho yayambitse umunyururu mu ijosi, abandi barimo baramwitegereza bisa nkaho uyu muntu ategereje muganga w'amatungo ngo aze arebe ikibazo iyi mbwa ye yaba ifite.

Ni ahantutu ubona ko hari ibitaka ndetse hakaba hari ahantu hari utwatsi ndetse n'ibiti bihateye, hari inka bisa nkaho zicyuwe ziri kujya mu rugo, izi nka biragaragara ko mu gihe zagize ikibazo, bitabaza veterineri kugira ngo aze kureba ikibazo zaba zifite.

Umugabo wambaye imyenda akorana akazi ke, akaba afashe ku nka iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara. Uyu mugabo akaba ari mu kiraro aho iyi nka iba, bisa nkaho ari umuveterineri cyangwa se umuvuzi w'amatungo, aho yaba yaje kureba ikibazo iyi nka yaba ifite.

Ni ahantu bigaragara ko ari muri parike hakaba harimo inzovu ziri kugenda haragaragara kandi n'imodoka y'abakerarugendo yaje kwirebera ibyiza bitatse igihugu ndetse muri iyo pariki harimo ibiti bitohereye.

Ahantu hajyamye ingwe, ikaba yasamye cyane hari kugaragara imikaka yayo. Biragaragara ko ishobora kuba iri kwayura, cyangwa se ari uburakari. Iyi akaba ari imwe mu nyamaswa z'ishyamba z'inkazi, aho inyuma yayo ubona isa nk'aho iryamye ahantu hameze nko mu mikenke.

Inyamaswa y'ishyamba akaba ari intare y'ingore, ikaba iryamye ahantu hari ibyatsi ndetse hakaba hagaragara n'ibara ry'umweru. Biragaragara ko hari ikintu runaka irekereje kuko yitonze kandi iri kureba imbere.

Ni hantu ubona ko hasa nkaho ari mu ishyamba, hakaba hari ibyatsi, muri ibyo byatsi hakaba harimo inzoka ubona ko yakuze cyane. Ifite uruhu rukomeye cyane, urabona ko yazamuye umutwe iri kureba cyane.

Izi ni zimwe mu nyamaswa ziba mu ishyamba zikaba zigiye zitandukanye, harimo intare, hakabamo inzovu, hakabamo ingurube y'ishyamba, impara n'imparage ndetse harimo n'ingwe, ziri ahantu hari utwatsi twiza cyane ndetse inyuma yazo hakaba hari igiti kinini cy'inganzamarumbu, hejuru mu kirere haragaragara ibisiga birimo biraguruka.

Ingwe iri kumwe n'ibyana byayo bibiri, bikaba biryamye ahantu mu twatsi, izi nyamaswa zikaba ari zimwe mu nyamaswa zo mu ishyamba, ubona ko hari ikintu runaka ziri kwitegereza imbere kuko zose zahanzeyo amaso.

Ahantu mu misozi hakaba hameze nkaho ari mu ifamu cyangwa se ari ahandi hantu inyamaswa z'agasozi ziba, hari ibiti ndetse hakaba n'ibyatsi by'imikenke byumye cyane aha ngaha hakaba ari ahantu inyamaswa zo mu gasozi zikunda kwibera.

Ahantu mu ishyambabona hari utwatsi dutohereye tw'icyatsi, hari inyamaswa yishyamba izwi nkaho ari imparage. Iyi mparage ikaba iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, iritegereza imbere cyane bisa nkaho hari ikintu runaka iri kubona.

Ahantu bisa nkaho ari mu ishyamba hakaba ari ahantu hakunda kwibera inyamaswa z'agasozi, haragaragara inzovu eshatu ebyiri nini ndetse n'indi iri inyuma bisa nkaho ari ntoya, inzovu ni inyamaswa nziza cyane kuko zigira ubwitonzi.

Inyamaswa nyinshi zo mu ishyamba ziri ahantu hameze nk'aho hari umukenke, zikaba zirimo intare, impara, imparage, agasumbashyamba, ingagi ndetse n'ingwe.

Ni ahantu bisa nkaho ari muri parike hakaba hari utwatsi twiza ubona dutohereye haragaragaramo kandi inzovu eshatu ubona ko ari zimwe mu nyamanswa z'inyamahoro ndetse haragaragaramo n'uduti tugiye duteyemo.

Ni inyamaswa ebyiri z'ishyamba, ubona ko ziri ahantu hameze neza cyane hateye utwatsi dutoshye. Inyamaswa imwe ikaba yisutamiye hasi ndetse indi yo irahagaze urabona ko iri kureba imbere bisa nk'ahoho hari ikintu runaka ishaka gucakira. Izi nyamaswa zikaba zizwi ku izina ry'ingwe.